Sitasiyo za porisi zirafasha cyane，ziba nziza kubera ko zituma abantu badakora ibyaha byinshi，kuko baba bazi ko nibakora ibyaha，bazabafunga，kandi n'abogabo babikora babajyanamo， hanyuma bakazasohoka ari abantu beza， kubera ko iyo bagezeyo babigisha ibintu bigiye bitandukanye.

Abapolisi cyangwa ababa bashinzwe umutekano bo mu Rwanda, bawucunga neza kandi mu buryo bwiza nk'ababyigiye rwose, bagacunga umutekano Abanyarwanda bakabaho bumva batuje kubera umutekano uba ari mwinshi, kandi bakaryama bagasinzira bakumva nta kibazo gihari, kubera ko baba bumva barinzwe kandi nta kibazo bagira, kandi na bo babona amafaranga kubera gukora neza akazi kabo, mu buryo bwiza babikora ni......

Inama y'abadasso iba nziza cyane, kubera ko abadasso bagira akamaro nijoro kuko barinda umutekano bakaturinda abajura iyo bakoze inama biga ku byagenze nabi no ku byo bahindura nuko umutekano ugakomeza ukaba mwiza cyane.

Abadaso baba beza cyane kubera ko baradufasha. Baba bari kurinda nijoro, kugira ngo baturinde abasambo. Twajya kuryama tukumva turatekanye. Kandi na bo babikora mu bwenge bwabo bwose kandi babikora neza.

Inzego z'umutekano ziba nziza kandi ziba zikenewe muri sosiyete, nko mu Rwanda baradufasha kubera ko bacunga umutekano neza abaturage tukabaho twishimye, tukumva turatuje tukaryama tugasinzira, kubera ko tuba mu gihugu kirimo abaducungira umutekano kandi bawucunga neza.

Abadaso bo mu Rwanda bagira agaciro kandi bagira akamaro, kubera ko bacunga umutekano w'abaturage amasaha ya nijoro, rero abaturage bakaryama bameze neza bazi ko bari mu gihugu kirinzwe. Kubera abo badaso baba bafite ubumenyi buhambaye bwo kuturindira umutekano nkatwe abanyarwanda.

Inama z'abayobozi ziba nziza cyane kubera ko bigira hamwe ku kijyanye n'umutekano w'igihugu, cyangwa ibyiza bibereye igihugu. Baravuga ngo umutwe umwe wifasha gusara, ariko iyo bagiye mu nama bakabiganiraho, havamo ikintu kizima kandi cy'ingenzi.

Abasirikare bo mu mazi baba beza kandi bagira akamaro kubera ko barafasha cyane. Nk'iyo abantu barohamye barabarohamura kandi bacunga neza umutekano wo mu mazi, ku buryo nta kibaza cyazamo. Abantu bakicara, bakaryama bagasinzira kubera ko baba bizeye umutekano.

Inama y'abantu baba bashinzwe umutekano iba nziza kandi bagikenewe kubera ko bigira hamwe ikijyanye n'uko bacunga umutekano w'igihugu, kandi usanga bafite ibitekerezo bizima. Ugasanga baganiriye kuri byinshi bigirira akamaro igihugu cyane.

Abasirikare b'u Rwanda ni abantu dukunda cyane. Ni abantu b'ingenzi cyane kubera ko barinda umutekano neza, bagatuma tubaho twumva dutuje, kandi tumeze neza, kandi turabubaha cyane.

Camera iba nziza cyane kuberako irafasha mu buryo bwinshi butandukanye urugero igufasha kumenya niba bakwibye ngo ninde kandi n'iyo umuntu azi ko irimo ahantu runaka ntabasha kuba yacokoza cyangwa kuba yakwangiza ibintu ngo akore ku birimo kandi nimufata biraza kumugiraho ingaruka nyinshi cyane.

Abapolisi baba beza cyane ni abantu twemera kubera ko bacunga umutekano w'u Rwanda neza. Abaturage bakabaho bazi ko batekanye, mu Rwanda tugira abantu bacunga neza umutekano.

Abapolisi baba beza cyane kubera ko ni abantu b'ingirakamaro cyane, bacunga umutekano neza. Rero biba byiza, iyo bageze mu baturage bakabaganiriza, hanyuma n'abaturage bakababwira icyo baba bari gutekereza, n'uko bakababwira ku kijyanye n'umutekano wabo, ubuzima bugakomeza.

Ingabo z'urwanda ni abantu beza, ni abantu baba bagira agaciro gakomeye cyane, ni abantu b'ingirakamaro, ni abantu baduha umutekano tukumva tumeze neza, kandi bashobora kukurinda pe tukaryama tukizugura tukumva tumeze neza, kandi ni abantu bakomeye cyane kuri twebwe.

Feruje iba nziza kandi iba ingenzi. Ifasha kurinda impanuka nyinshi cyane zitateganyijwe. Ituma imodoka zigendera kuri disipurine kandi n'abagenzi bakagendera kuri yo, kugira ngo hatabaho impanuka.

Feruje ziba nziza kandi ziba ingenzi, kubera ko zigira akamaro kanini cyane, zituma hataba impanuka buri bantu bakagenda ahantu bakambuka neza, mu muhanda nta kibazo igihe cyabo, imodoka zigatambuka mu gihe cyazo, ku buryo nta mpanuka yabaho.

Inama ziba nziza cyane, cyane cyane iyo abapolisi bagiye kuganira cyangwa abashinzwe umutekano bagiye kuganira n'abaturage cyangwa n'abayobozi bakigira hamwe ku cyakorwa kugira ngo umutekano ukomeze wiyongere kandi ugende neza.

Amakamera yo ku muhanda aba meza meza kandi arafasha, ni yo bita sofia abantu bagira amamodoka cyangwa batwara amamodoka barayatinya, atuma bagenda ku muvuduko wagenwe kuko baba bazi ko abandikira, bagatanga amafaranga rero aba meza arafasha.

Inama iba nziza ku mpande zombi ku bayobozi ,ku baturage kuberako higirwamo hagafatwamo n'ingamba zigiye zitandukanye , zifasha abantu mu iterambere ry'igihugu kandi abantu bose bakanyurwa bakumva bameze neza.

Amahugurwa aba meza kandi aba ingenzi aba akenewe, kubera ko iyo abantu bakora ibintu bya tayipo cyangwa bitameze neza, barabahugura hanyuma bakabikosora iterambere rigakomeza rikagenda neza, cyane cyane nk'abarimu barabahugura kugira ngo babone uburyo bwiza bwo kwigisha abanyeshuri, kandi bigakomeza bikagenda neza.

Abagore na bo ntabwo bakitinya kubera ko bahawe uburenganzira n'ijambo, na bo baba bari mu nama bari kureba icyabateza imbere, bari kure icyateza imbere Igihugu, kandi koko bakabikora kandi bikagenda neza, kubera ko mbere bumvaga ko nta kintu bashoboye. Ariko baragishobora bakabikora, kandi bikagenda neza.

Inama z'abayobozi ziba nziza cyane kandi zigira akamaro, kandi ziba ari ingenzi kubera ko abayobozi iyo bagiye hamwe, bagera ku ntego zatuma igihugu cyacu gikomeza gutera imbere. Kandi bakareba n'ibyo bahindura, bakabigendanamo neza, ugasanga igihugu cyacu gikomeza gutera imbere.

Urusyo ni igikoresho cyiza cyakoreshwaga kera bari gusya amasaka, bari gusya ibintu bigiye bitandukanye, ariko ubu ntabwo bakibikoresha, hasigaye haraje iterambere, bakoresha imashini.

Ibishushanyo bigaragaza umuco nyarwanda biba byiza kandi biga bisa neza. Iyo bidahetse ahantu ubonana ari ibintu byiza cyane, kandi n'abantu bakunda kuza kubireba bo hanze, kuko bakunda imbyino za kinyarwanda.

Urusyo ni igikoresho cyakoreshwa mu gihe cya kera, abantu bakunda gusya bakeneye amafu, icyo gihe nta amamashini yabagaho, niyo mpamvu bakoreshaga urusyo, ubu ntabwo bakibikoresha, bakoresha amamashini iterambere rya ryaje.

Iyi mitako iba myiza cyane kubera ko kuva na kera bakundaga kuyikora, hanyuma noneho bakaza kuyireba. Na n'ubu baracyayikora bakayijyana mu mamize, abakerarugendo bakaza bakayireba bakazana ayo mafaranga.

Ubugeni buba bwiza cyane kuberako butuma abantu babukora babona amafaranga bukabateza imbere, kandi akenshi bukunda gukurura abakerarugendo bakaza kubureba kuberako akenshi biba bisa neza ,bigatuma abakerarugendo bifuza kuza kubusura bugahereza amafaranga abo bantu babukora.

Gusya kera byafashaga abantu kubona amafu bakoresheje uru rusyo kubera ko ari byo byari biriho, ariko ubu ngubu ntabwo bakibikoresha, haje iterambere basigaye bakoresha ibyuma ni byo babetesha, ariko ibingibi babikoresha kera bari gusya.

Umuco nyarwanda uba mwiza cyane. Usanga abakaraza bari kuvuza ingoma, abaririmbyi bakaririmba, n'ababyinnyi bakabyina. Usanga ari ibintu bimeze neza kandi bajya no mu birori bagasusurutsa abantu, n'abanyamahanga baza kubareba kuko biba ari ibintu bimeze neza.

Imbyino nyarwanda ni imbyino nziza cyane, abantu bakunda. Bakunda kureba intore ziri kubyina .Babonaga zisa neza zinezerewe kandi n'abantu babaga bari kubareba baba bizihiwe rwose n'abanyamahanga bava hanze bakaza bakabareba bagasusururuka .Kandi hari n,igihe babigira akazi rwose bakabireba, bakaba amafaranga ahagije.

Guhingira hamwe biba byiza cyane kuko bituma mubona umusaruro mwinshi mwinshi mwinshi cyane mutatekerezaga, kubera ukuntu muba mwakorera hamwe, mwamara gukorera hamwe mukabona umusaruro uvuye mu byo mwahinze, ibintu bikagenda neza hanyuma mukiteza imbere.

Umuvure uba mwiza cyane, kandi uba uw'ingenzi ugira akamaro, kubera ko abantu bawengeramo, nk'abantu baba barateye ibitoki, cyangwa benga umutobe bawengeramo bamara kuwenga bakawujyana ku isoko. Kubera ko abantu barawukunda cyane bakawugura.

Ibyansi n'ibisabo ni ibikoresho byiza cyane kandi by'umumaro byafashaga cyane abantu ba kera, ni bo bakundaga kubikoresha cyane mu kubuganiza amata n'ibijyanye n'amata byose, urumva ni ibintu by'ingenzi cyane, kandi na n'ubu ngubu abantu baracyabikenera kubera ko ni ingirakamaro.

Izi nanga zabaga iza kera nizo abakera bakoreshaga, ariko ubu ngubu haje iterambere hari izindi basigaye bakoresha. Ni rimwe na rimwe ushobora gusanga hari ahantu bari kuzikoresha gusa, kera nizo bakoreshaga nyine bagatarama ukumva ibintu bimeze neza.

Ingobyi iba nziza kandi irafasha, nko mu cyaro bakunda kuyikoresha cyane, kubera ko nta mihanda iba iriyo, itapfa kunyuramo amamodoka kandi usanga nta bushobozi buhari bwo gushaka, imodoka yo kujyana umurwayi kandi biratabara cyane, rero ingobyi iba ingenzi iyo hari ahantu bayigira.

kuboha uduseke ni umuco wahozeho kuva kera cyane, kandi na n'ubu baracyawukora kubera ko tuba dukenewe cyane, abantu baradukoresha utuntu tuba dufite akamaro gakomeye cyane, kandi n'abandi bo hanze baradukunda bakunda kutureba iyo dukoze batugurisha tukugira...

Umuco nyarwanda uba mwiza kuberako ugaragaza umuco wacu, ikindi kandi abantu barabikunda cyane ubona baberewe kandi bimeze neza ari ibintu byiza biryoheye amaso n'amatwi, n'abakerarugendo baza kubireba kubera ukuntu biba ari byiza.

Ibibindi biba byiza cyane， ibindi babitekeramo，mu gihe cya kera ni bwo bakundaga kubitekeramo， kandi ngo ibiryo bitekeyemo biba biryoshye cyane. Ariko ubu ngubu，abakecuru b'icyo gihe ni bo bakibikoresha， abantu basigaye barikoreshereza amasafuriya.

Inkongoro n'ibisabo ni ibikoresho byakoreshwaga kera, ibisabo byakoreshwaga bagashyiramo amata, bakayabuganyiza, inkongoro bazinyweragamo amata mu gihe cya kera, ariko n'ubu ngubu barabikoresha, kandi ubona asa neza.

Kuboha uduseke ni umuco wahozeho kuva kera mu Rwanda, kandi uduseke tuba ingenzi mu buzima. Abantu baratwifashisha badushiramo ibintu bitakwangirika kandi by'ingirakamaro. N'abantu badukora rero babona amafaranga, kubera ko tuba dukenewe. Abantu baba badushaka rero batugurisha bakabona ayo mafaranga akagufasha.

Umwuko rero uba mwiza kubera ko ufasha abantu guteka. Na kera baragukoreshaga ariko n'ubu ababishaka barawukoresha. Ariko n'ubu hari ibindi bibagaho byitwa amarushi. Ariko n'ubu nabwo urafasha muri ubu buzima.

Imbyino nyarwanda ziba nziza cyane， aho usanga abahungu baberewe， n'abakobwa baberewe cyane， bari kubyina， bari gutaraka， ubona bisa neza， kandi abantu barabikunda， n'abanyamahanga baza kubareba，kubera ukuntu biba ari byiza cyane.

Imbago ni igikoresho cyiza cyane abantu bakoreshaga cyane mu gihe cya kera, bari kujyana abantu kwa muganga. Nta modoka zabagaho, ariko ubu ngubu haje amamburanse ni yo ajyana abantu kwa muganga, ariko bikoreshwa nko mu byaro kuko nta bwo iterambere ryari ryagerayo ryose baragikoresha.

Imbyino nyarwanda ni umuco wahozeho kuva kera kandi ni umuco ugaragaza igihugu cyacu, iyo abantu bari kubyina baba bishimye cyane, kandi nabo baba bari kubyinira baba banezerewe bizihiwe n'abanyamahanga baza kubareba, kandi ubona ari abakobwa beza n'abahungu beza baberewe rwose.

Kujyana abantu mu ngobyi ni umuco wabagaho kera kubera ko nta ambiranse zabagaho, ariko no mu cyaro nk'ahantu haba hataca imodoka barazikoresha kandi ubona bikorwa mu rukundo abantu barafashanya bakajyana umuntu kwa muganga.

Umutiba uba mwiza kuberako ujyamo inzuki, inzuki na zo zikaduha ubuki. Ubuki abantu barabukunda cyane kandi bugirira akamaro umubiri w'abantu kandi buba n'umuti.

Ibicuma byabagaho kera cyane, abakera bakundaga kubikoresha bashyiragamo imisururu bagashyiramo ibigage, mu bukwe ni byo bajyanaga bagasangira bakanyweramo, ariko ubu umenya bitakibaho bashyizeho ibindi bintu ni byo bakoresha, binwera amafanta ariko mbere bakoreshaga ibicuma.

Kugosora n'umuco wahozeho kuva kera cyane, abantu baragosoraga bakoreshaga icyo bita inkoko, bakagosora kugirango bivemo imyanda kandi na n'ubu baracyabikora, barabikoresha rwose.

Imbago siba nziza zirafasha nkuko umuntu wakoze impanuka cyangwa se umuntu wavunitse, biramufasha kugenda kuko atabasha kugenda neza ntazi afite. Rero zimubera kuzishingikirizaho akazishingikirizaho akazigenderaho ni nziza.

Uduseke na two tuba twiza, kubera ko kuva na kera byari ibintu byakundwaga, byakoreshwaga, byabaga ari ingenzi. Uduseke rero dufasha mu bintu bitandukanye, gutwaramo ibintu ugiye nko gusura, gushyiramo ibintu byawe bitakwangirika, uduseke ni twiza kandi tuba dusa neza.

Uduseke nu ducuma n' ibintu bikundwa kuberako bikunda gukoreshwa cyane n'abasaza . Mu gihe cya kera abantu bakunda kubikoresha ariko n'ubu ngubu baracyabikoresha rero biba bikenewe n'abantu bafite bitewe nicyo bagiye gukora.

Isekuro iba nziza cyane ,kuko abantu bayikoresha bari gusekura ibintu bigiye bitandukanye, gusekuriramo agasombe . Agasombe ko mu isekuru kaba keza cyane, nta muntu utakarya, basekuriramo ubunyobwa , isekuro ni igikoresho cy'ingenzi cyane.

Ishoka ni igikoresho gikundwa cyane cy'ingirakamaro, abantu bakenera mu buzima bwawe bwa buri munsi, gifasha kwasa imkwi. Iki gikoresho rero iyo ugitunze uba ufite imari ikomeye cyane, n'abantu babicuruza arunguka cyane kuko ni ingenzi cyane.

Imbyino nyarwanda ziba ari nziza cyane kubera ko abantu benshi barazikunda. Ubona abakobwa bameze neza bari kubyina . Ubona ibintu byose bisa neza, kandi n'abakerarugendo bakunda kuza kubareba kuko ari ibintu biba bisa neza ,bishimishije, buri muntu wese akaba yabikunda.

Kuvuza ingoma ni umuco wahozeho kuva kera cyane, abantu bakundaga kuzivuza bari mu bitaramo, kandi na n'ubu baracyavuza ingoma, ariko akenshi cyane usanga ari abagabo bari kuzivuza ariko n'abagore barazimenya cyane, kandi ubona ibintu bisa neza abantu babyishimiye banezerewe.

Abakaraza baba beza cyane usanga babatumiye mu birori ,bakabiryosha bakaririmbira abantu kandi ukumva bimeze neza cyane kerababagaho, na n'ubu baracyahari kandi barazivuza imitima y'abantu baje muri icyo kirori cyangwa bari muri aho hantu ikanezerwa, ibintu bigakomeza bikagenda neza akenshi babikoraga nk'akazi ugasanga byabahaye amafaranga bakiteza imbere.

Ingobyi ziba nziza cyane kubera ko ni muri bimwe bifasha abantu mu butabera, nko mu cyaro nibo bakunda kubikoresha, umurwayi yaba arwaye bakamutwaramo, bakamugeza kwa muganga vuba vuba.

Imitiba iba myiza cyane kubera ko zijyamo inzuki. Izo nzuki zigatanga ubuki. n'ubuki buba bwiza na bwo bugira akamaro mu mubiri kandi banabukoresha mu miti buba bwiza cyane.

Inkongoro iba nziza kubera ko ikoreshwa cyane, no mu gihe cya kera abantu barayikoreshaga bagashyiramo amata abana bakanweramo, ariko n'ubu ngubu barayikoresha mu makwe usanga bari kunweramo bari gukora imigenzo iba nziza cyane.

Ikirago kiba cyiza cyane kandi kiba ingenzi. Mu gihe cya kera abantu baragisasaga, bakiryamagaho, bakacyicaraho. Ariko ubu ngubu haje matera ni zo Abantu basigaye bararyamaho, ariko baranagisasa iyo bari nko kuganira. Rero abantu babigurisha na bo babona amafaranga.

Agasekuru kaba keza cyane kandi ni ingirakamaro, abantu baragakenera kandi baragakunda. Gakoreshwa ibintu bigiye bitandukanye, basekuriramo ibintu bitandukanye, basekuriramo isombe, basekuriramo udutungurusumu, basekuririramo imiti, rero karafasha.

Purize iba ingenzi cyane kuki ifasha, barayikunda igira akamaro kanini cyane, ifasha gucomekaho ibintu byinshi: amatelefone, ifasha gucameka amateleviziyo, ifasha mu bintu byinshi.

Keto ziba nziza cyane kuko zigirira akamaro abantu benshi cyane, abantu bazishyushyamo amazi, biraborohera niba bayakeneye vuba vuba kagashyushya, kandi n'abantu bazigurisha rwose babona abakiriya kuko zigirira akamaro.

Amashanyarazi aba meza a cyane kubera ko agira umumaro mwinshi, afasha abantu gukora ibintu byabo vuba vuba, byihuse bidatinze, afasha abantu kubona, bagacana, bakabona, bikabafasha gukora imirimo yabo nko kubeta ibintu byinshi byinshi bitandukanyeA. mashanyarazi aba meza.

Mudasobwa iba nziza, kandi ifasha abantu benshi barayikunda, kubera ko ituma akazi koroha, kandi kagakorwa vuba vuba mu gihe gito cyane. Akazi umuntu atapfa kwishoboza mudasobwa iragakora, kandi bikagenda neza, ni yo mpamvu abantu bayikunda kandi bakabona umusaruro uhagije kubera ko bakora ibintu byinshi mu gihe gito.

Turunovisi iba nziza ,kandi iba ingenzi ,kubera ko igira akamaro kanini cyane, ifasha abantu mu gufunga ibintu bigiye bitandukanye, hari: imisumari bari gufunga nk'intebe ,cyangwa bari gufunga utubati ,cyangwa bari gufunga ibitanda, irafasha cyane.

Kwiga biba byiza kuko bituma abana bataba baba mayibobo, bakajya kwiga ariko biba byiza cyane iyo bakoze ibizamini ngo barebe ko ibyo bize babimenye. Kandi nk'abantu biga nko mu gatandatu pirimeri, mu wa gatatu sekondere no mu wa gatandatu sekondere bakora ikizamini cya letabkugira ngo bimuke bakajya mu kindi cyiciro.

Ibigo by'amashuri ni ingenzi kandi biba bikenewe, kubera ko amashuri afasha abana akabarinda kujya ku mihanda kuba ba mayibobo, bajya kwiga bakagira ubumenyi n'ubuhanga bugateza imbere igihugu cyacu.

Amashuri aba meza aba ari ingenzi, rero iyo bubatse amashuri menshi, baba byiza ko kuko abanyeshuri bose babona iyo bajya, kandi kwiga ni byiza bira akamaro, bifasha abana bakareka kujya mu mihanda, kandi n'abarimu nabo bakabona akazi.

Tuwarete zo ku muhanda ziba nziza cyane kubera ko zifasha abantu b'abanyamuhanda baba bari kugenda, kugira ngo bitaba ngombwa ko bajya mu bihuru, ahubwo bakifashisha ibyo bikorwa remezo leta yubatse.

Imisigiti iba myiza cyane kubera ko abasiramu bajya gusengeramo, kandi babigisha gukundana, bakitanaho biba byiza, kandi niyo umuntu abababaye akajya gusenga, akajya gusari, ataha ari kumva ameze neza.

Igihugu cyacu kiba cyiza cyane, kubera ko cyatekereje ku baturage bacyo, batagira aho kuba, batagira kirengera, bakabubakira amazu yo kubamo, bakicara bagatekana, bakabashakira ibyo kurya, rero urumva ko bita ku baturage babo, kandi bakumva banezerewe cyane.

Amashuri aba meza cyane kubera ko afasha, umuntu wize aba atandukanye n'utarize rero iyo umuntu yagiye kwiga biba byiza, rero leta yarakoze gutekereza kuba bagira banyeshuri, bashyiraho amashuri bakajya kwiga, nuko bakabona bumenyi hanyuma igihugu kigakomeza gutera imbere.

Gahunda leta yashyizeho yo kubakira abaturage batagira aho baba, gahunda zirane kubera ko yarabafashije bose abantu basigaye barabonye aho gutura, rwose leta yacu iba umubyeyi cyane, kubera ko irebera abaturage bayo, ikabafasha ikabarebera icyo bakeneye, ikabubakira nabo bagatunga bagatunganirwa bakumva bameze neza.

Ibiraro biba byiza cyane , kandi iyo Leta yifashe igatekereza kuri ikintu iba itekereje neza, kuko ituma abantu babona inzira yo gucamo, kubera ko ni ahantu umuntu aba atanyura n'amaguru ngo bikundeke, ariko iyo bashyizemo ikiraro biraborohereza.

Iniverisite ziba nziza kandi ni ingenzi abantu baziga baba bafite ubwenge buhanitse, bafite n'ubushobozi baba bagera n'ahantu harenze cyane, baba babona n'akazi keza ku buryo bakwiteza imbere.

iminara ziba myiza kandi ziba ingenzi mu buzima, kuko zituma abantu babona amanetiwaka ku buryo utashaka umuntu ngo umubonere cyangwa hari icyo ukeneye kubona, ku buryo nta kintu nta kimwe cyakwangirika rero biba byiza iyo ahantu uri hari iminara ukabasha kubona amakonegisiyo kandi ibintu byose bikabasha kugenda neza.

Amashuri ya kaminuza aba meza kandi agira akamaro kuko abantu bajya kwigayo, bavayo bafite ubumenyi buhambaye, kandi ubwo bumenyi bwabo bubafasha gukora ibintu byinshi biteza igihugu imbere.

Inzu z'amabuye ziba nziza cyane ,kubera ko nta muntu wapfa kuza ku kwiba ngo atobore biba bigoye, yajya kurangiza gutobora bamwumvise , kubera ko biba biri gusakuza cyane , nta muntu wapfa kukwiba.

Insengero ziba nziza kandi ziba zikenewe, kuberako iyo umuntu agiye gusenga yumva aruhutse kandi ameze neza, ariko urusengero na rwo bagomba kurugirira isuku, bakarushakira ahantu hameze neza, bakarwubakira, bakarukorera parikingi, ku buryo ubona ko aha hameze neza cyane.

Urusengero ni inzu y'Imana abantu bakunda kujyamo, bakajya gusenga, bakajya kuganira n'Imana, kandi iyo uri kumva unaniwe cyangwa kumvamva ubabaye ukajya gusenga wumva umeze neza, abantu baba bishimye iyo bari mu rusengero, ndetse wumva ibintu byose biri kugenda neza, kubera ko baba uri mu rusengero, haba harimo abaririmbyi bari kuririmba, pasiteri yigisha ijambo ry'Imana cyangwa se padiri , kuba mu rusengero biraruhura, bibaga ari ibintu biryoshye cyane kandi byiza.

Kubaka amashuri ni ingenzi cyane kubera ko bituma abana batoya bari kuvuka bazabona uko biga, kandi kwiga birafasha cyane, bituma abantu bajijuka, muri iki gihe turimo, turi mu gihe cy'iterambere kandi abana bagomba kwiga.

Insengero ziba nziza cyane kandi zigira akamaro, kubera ko abamu bajyayo, bakajya gusenga Imana, iyo umuntu aba aremerewe, afite nk'ibibazo byinshi cyane, ajya kwisengera, haba hari yo abaririmbyi, abigisha ijambo ry'imana, ntabwo abura ibimuruhura rwose.

Insengero ziba nziza kandi ziba akamaro kubera ko ni muri bimwe biba bikenewe muri ubu buzima. Ntabwo wabaho udasenga, kandi gusenga ni ubuzima. Rero insengero ziba ari ingenzi. Iyo umuntu akeneye gusenga cyangwa yumva adatuje muri we, yumva afite ibibazo ajya gusenga. Insengero ziba nziza kandi zirafasha. Zituma abantu mu buzima babaho batekanye, kandi bumva batuje kubera kujya kwiyambaza Imana.

Inama na zo ziba nziza kubera ko havamo ibintu bigiye bitandukanye bituma igihugu gitera imbere, bigatuma ibintu byose bigenda neza kubera ko abaturage babasha kugeza ibibazo ku bayobozi bakabasha kubikemura, ibintu bigakomeza kuba, kugendera mu mujyo wa byo.

Inteko rusange z'abaturage ziba nziza, kubera ko bigiramo byinshi byateza Igihugu akamaro. Kandi ku bibazo abaturage baba bafite, babibwira abayobozi hanyuma abayobozi bagafata umwanzuro wo kubikurikirana, kugira ngo abaturage babashe kubaho neza bishimye.

Inama z'abaturage n'abayobozi ziba zikenewe kandi ziba ingenzi kandi ziba nziza cyane, kubera ko bituma abaturage babagezaho ibibazo baba bafite, kandi bakeneye ko bibakemurirwa bakabona uburenganzira bwabo nk'abaturage, bakabakemurira ibibazo byabo baba bafite.

Inteko rusange iba nziza, kandi birafasha ku mpande zombi haba abayobozi cyagwa abaturage. Iyo abayobozi bafite icyo bashaka kubwira abaturage barakibabwira kandi n'abaturage bafite ikibazo bakibwira abayobozi hanyuma bakakibakemurira.

Inama z'abaturage n'abayobozi ziba nziza cyane, kubera ko zituma abaturage babagezaho ibibazo baba bafite, hanyuma abayobozi bakabisubiza n'ayobozi bakababwira icyo baba bashaka ko abaturage bakora, n' u Rwanda rwacu rugakomeza rugatera imbere.

Inteko rusange iba nziza cyane, iyo abaturage bahuye n'abayobozi, hanyuma bakaganira, abaturage baba bafite ibibazo bakabigeza ku bayobozi babo, hanyuma bakabafasha, bakabakemurira ibibazo, abaturage bakabaho kandi bishimye, bishimiye ubuyobozi hamwe n'umutekano.

Kuganira n'abaturage biba byiza cyane, iyo abaturage bahuye n'abayobozi babo hanyuma bakabagezaho ibibazo bafite hanyuma bakabahereza ibisubizo, nuko bakabahereza kwishyira bakizana, umutekano, hanyuma igihugu cyacu kigakomeza kumera neza, kubera ko abayobozi baba bumvise ibibazo by'abaturage babo.

Bisi barazikunda zigira akamaro gakomeye cyane. Bisi zitwara abantu ni ukumva ukeneye kujya ahantu kandi byihuse zirakujyana kandi mu gihe gito.

Imodoka ziba nziza kubera ko zafasha abantu mu rugendo, kuborohereza ingendo, ariko kubera ko imbaraga zabaye nkeya, abantu barasaba ko imodoka ziba nyinshi, hanyuma abantu bose bakazajya baragenda kandi nta kibazo kirimo.

Gare ya nyabugogo iba nziza kandi ifite akamaro kanini cyane, kubera ko ituma abantu bakora ingendo biboroheye bakava hamwe bakajya ahandi, kandi ntabwo amafaranga aba ari menshi kubera ko aba ari imodokadoka kuberako ko ari nka moto cyangwa amaguru byaba ikibazo gikomeye cyane kugira aho ushaka gujya, kandi abantu bazitwara babona amafaranga.

Abamotari baba beza kandi baba ingenzi, kubera ko bafasha abantu mu kugenda, kandi iyo bagiye rwose bagenda bihuse, kandi bakagerayo vuba, ntanubwo baca amafaranga menshi, rero ni muri bimwe abantu bakenera cyane, kubera ko birafasha, kandi n'abantu batwara ama moto babona amafaranga kubera abagenzi baba ari benshi, ntabwo bose baba bafite amamodoka.

Amabisi aba meza cyane, kuko agira umumaro agatwara abantu kandi mu buryo bwiza, kandi ntabwo bisaba amafaranga menshi, ntabwo wishyura amafaranga menshi, kandi biba byiza cyane nk'iyo ari mu bigo bakayikodesha, bakayigura rero bituma abanyeshuri bagera ku ishuri nta kibazo bafite.

Zino moto ziba nziza kandi abantu bazikunda cyane kubera akamaro kanini cyane zigira, zitwaza abantu, ibintu byinshi icyarimwe kandi biba biremereye, zikabigezayo ntatangiritse bikimeze neza, kuruta uko umuntu yabyitwaza kandi atabishobora kandi bikagerayo vuba.

Imihanda iba myiza kubera ko mibiri bituma ahantu hagaragara neza, kandi ibinyabiziga bikagenda hakirindwa impanuka, kandi n'abantu baba babitwaye bakagenda bafite umutekano usesuye.

Ambilanse iba nziza kandi irafasha. Iba ikenewe cyane kubera ko iri muri bimwe mu butabazi bubaho. Iyo umuntu agize ikibazo barayihamagara, irihuta ikakugeza kwa muganga kandi ukagerayo bakakuvuza. Rero iba nziza cyane.

Amamodoka y'amafuso, abagameza kandi akagiraga akamaro kanini cyane, abantu bayatunze bibabera byiza, kuko atwara imizigo iremereye cyane umuntu atapfa kwikorera, rero barayakodesha, bayatwaramo ibirayi, batwara imicanga, ku baba bagiye kubaka abagameza arafashaga.

Ubwato bagageza kandi burafasha. Abantu barabakunda kuko na bwo bufasha mu bijyanye no gutwara abantu bukabambutsa umugezi, aho batabasha kugenda n'iyo waba uzi koga gute ukaba utahagera, ariko bukagufasha ukagerayo. Ubwato buba butandukanye yaba ari bunini butwaraga abantu benshi cyane icyarimwe n'uwatwaraga abakeya ariko buba bwiza cyane kubera ko bworohereza urugendo.

Toyota ziba nziza, ni imodoka nziza cyane kuberako zirafasha zitwaza abantu imitwaro iremereye cyane batabasha kwikorera, rero zigira akamaro kanini cyane.

Gare ziba nziza kubera ko zifasha abantu kugenda byihuse, iyo ufite nk'urugendo rwa kure ujya muri gare ugakatisha hanyuma ukagenda, kandi n'iyo hari ibintu ushaka gutanga ahantu utari bugereyo, uragenda ukabihereza imodoka ikabikujyanira bikagerayo.

Zino moto ziba nziza cyane kubera ko zifasha abantu gutwara ibintu batabasha kwitwarira, nk'ibintu biremereye cyane, ibintu byameneka, ibintu zikadufasha kubigeza ahantu byakagombye kugera, kandi byihuse, kandi nta n'ikintu bibaye, bikiri bizima, bitana, nta na kimwe cyangiritse.

Gare ziba nziza kubera ko zirafasha mu buzima. Ugeramo ukabona imodoka ukagera iyo ugera byihuse, ariko iyo ntazo ubwo byagusaba ko ujya ahantu kure, bigatuma utinda kujya aho washakaga kujya. Rero gare iba nziza kubera ko idufasha kubona imodoka, ukajya iyo ushaka byihuse kandi vuba vuba.

Gare ziba nziza cyane zirafasha, kubera ko abantu bajyayo bagiye gutega imodoka, zirabajyana ahantu hagiye hatandukanye, kandi usanga byoroshye cyane kugera iyo ugiye mu gihe gito cyane, kandi ntabwo zibaca amafaranga menshi.

Gare ziba nziza kubera ko zifasha abantu kuboroherereza urugendo, kubera ko babona imodoka zibageza ahantu kure, ahantu utapfa kugenda n'amaguru kandi mu gihe uba ukeneye kwihuta birakorohera.

Bisi iba nziza cyane kubera ko itwara abantu, ikabavana hamwe ikabajyana ahandi mu gihe gito cyane, kandi ikaba itwara abantu benshi cyane icyarimwe, kandi bakagenda bameze neza ku buryo naho imvura yagwa itabanyagira, kandi ntabwo bagenderamo ubuntu babaha amafaranga.

Indege ziba nziza cyane, kubera kuko zitwara abantu mu buryo bwisanzuye kandi zikabatwarira benshi icya rimwe, kandi bakagenda neza bakagerayo amahoro kandi zikabageza ahantu imodoka zitapfa kugera, zigendaga kandi zihuse zikagabanya amasaha yo kugenda, nkaho wagenda mu modoka ukagendera mu ndege ugerayo kare.

Imodoka ziba nziza kuzigenderamo cyangwa kuyitega, kubera ko iyo uyiteze nk'imvura ikagwa, ntabwo unyagirwa. Kandi nta n'ubwo wishyura amafaranga menshi nk'uko watega kuri moto, rwose biba byiza iyo witegeye akamodoka, ukagerayo wumva umeze neza, kandi ibintu byose uri kumva ari amahoro.

Izi modoka ziba nziza kandi ziba zikenewe, kubera ko zafasha abantu gutwara imizigo iremereye cyane, batabasha kwitwaza zikayivana ahantu kurecyane, zikayigeza ahandi ziba zidufashije cyane.

Moto za Rifani ziba nziza cyane kubera ko zifasha abantu gutwara imizigo batashobora gutwara, ibintu biremereye cyane, zirabitwara kandi zikabigezayo neza bitangiritse, kandi nta bwo babahenda.

Dayihatsu ziba nziza cyane, kandi abantu barazikenera, kubera ko zibafasha gutwara ibikoresho batabasha kwitwaza, nk'ibintu byinshi cyane zirabitwara kandi zikabigezayo amahoro nta kintu na kimwe cyangiritse, kandi abantu na bo bakabona umusaruro wa byo kubera ko baba babigutwaje.

Amabisi aba mu buyapani cyane cyane, iyo ngo abaye menshi mu gihugu abantu babona uko bagenda, ariko iyo ari make abantu barara muri gare, ariko iyo ari menshi bose baragenda kandi bakagerayo.

Amabisi aba meza cyane kuko agira umumaro munini, hari ahantu kure aho batagenda n'amaguru kandi ntabwo baca amafaranga menshi kandi bagenda batuje. Kandi biba byiza cyane iyo ziri kugendera mu mihanda imeze neza.

Amabisi aba meza kubera ko abantu bakunda kuyatega, aho ategwa n'abantu bose badafite amamodoka, kandi ntabwo aba ahenze bishaka amafaranga make, ukagenda uri kumva umeze neza nubwo imvura yagwa ntabwo yakugeraho, kuko aba atwikiriye, n' abantu rero bayatwara cyangwa ba nyirayo mamodoka birabungura.

Ama modoka y'ishuri aba ari meza, koko afasha abanyeshuri kuva mungo iwabo kandi bakagera ku ishuri nta kibazo bagize bameze neza kandi, bikabarinda kuba bakora impanuka bakagerayo bameze neza umutekano ari wose.

Muri bibiri na makumyabiri haje icyorezo cyazengereje abantu cyitwa korona, baburira abantu kugira ngo bayirinde maze batarwara badapfa, bambara udupfukamunwa, kandi bajya kwinjira ahantu hari abantu benshi bakabanza bagakaraba intoki kugira ngo bizere neza ko ibintu bimeze neza, kandi babanza no bashyiragamo na metero hagati y'umuntu n'undi kugira ubuzima bukomeze bigende.

Amamodoka cyangwa amabisi aba meza kubantu baba badafite ubushobozi buhagije. Kubera ko ntabwo bishyura menshi. Ku mamoto bishyura menshi, ariko nkayangaya ntabwo bishyura menshi. Kandi ukeneye kujya ahantu utapfa kugenda n'amaguru, uragenda ukayitega ku mafaranga atari hejuru, kandi ukagera iyo ugiye. N'abangaba bazigira babona amafaranga avuye mu bari kuzitega

Zino modoka ziba nziza kubera ko zifasha abantu mu buryo biryo butandukanye. Zitwara ibintu umuntu atapfa kwitwaza. Bya bintu biba biremereye zikabigeza aho bigomba kugera, kandi bitangiritse, nta n'ikibazo na kimwe kigiyemo. Rero zino modoka ba nyirazo babaha amafaranga menshi cyane, kuko biba bigoye kandi ziba ari nini, kandi zitwara ibintu byinshi. Rero nawe bakaguhereza ibintu byawe bimeze neza nta kibazo bifite.

Sitade iba nziza, kubera ko abana bajyayo bagiye kureba imipira, bagiye kureba ibintu bigiye bitandukanye, ibirori byabayeyo, ukabona abinjiye bameze neza, kandi hari igihe binjiramo batanze nayo amafaranga ayo mafaranga rero, agafasha abantu.

Umukino wa tenisi, ni umukino mwiza cyane abantu bakunda, ni umukino abakobwa n'abahungu bisangamo, kandi uwo mukino nawo uba mu bwoko bwa siporo, rero iyo abantu bari kuwukina biba bimeze neza, kubera yuko baba bishimye, n'abari kubareba nabo baba bizihiwe.

Umukino w'umupira w'amaguru ,ni umukino mwiza cyane abantu bakunda, kandi iyo bagiye kuwureba urabashimisha, cyane cyane nk'iyo wagiye gufana ikipe yawe igatsinda, utaha wishimye kandi n'abantu bakina bumva banezerewe, kubona hari abantu babagaragiye, kandi iyo babigize nk'akazi birabahemba cyane.

Umukino wa basikete bolo ni umukino ukundwa n'abantu benshi, kandi n'umukino uba umeze neza uryoheye amaso, kandi mbere wasangaga ari abahungu babyemerewe, ariko ubu n'abakobwa baba bemerewe gukina, rero uba mwiza kandi n'abawukina bawuboneramo amafaranga, bagakomeza bakiteza imbere mu buryo bugiye butandukanye.

Siporo iba nziza, kubera ko ituma abantu bishima wakumva unaniwe ukajya gukora siporo cyangwa ukajya gukina, ituma abantu bahurira ahantu hamwe ukabona ibintu bimeze neza siporo iba nziza.

Umupira w'amaguru ni umukino mwiza cyane abantu bakunda gukina, kandi bakunda kureba. Iyo bagiye kuwureba bataha bishimye, noneho mbere abakobwa nta bwo bakinaga, ariko ubu na bo barakina. Ukabona n'ibintu bisa neza cyane kandi binogeye amaso.

Imikino y'amarushanwa y'amagare iba myiza kuko haba hahuriyemo ibihugu byinshi bigiye bitandukanye kandi nabyo biba biri kwamamaza u Rwanda, ariko nanone abantu barabikunda kubera ko biba bisa neza kandi barishima n'ababikora babonamo amafaranga menshi cyane.

Amarushanwa y'amagare aba meza cyane ,kubera ko atuma abantu basusuruka, Abantu bajya kuyareba kandi n'abandi bayakora babikora bishimye, kandi biba ari siporo kandi n'kindi iyo babikoze nk'akazi ubona bisa neza cyane, mbere ntabwo abakobwa babijyagamo, ariko ubu n'abakobwa barabyemerewe bajya muriyo mikino.

Siporo iba nziza ku bakobwa，mbere ntabwo abakobwa bajyaga muri siporo. Ariko ubu nabo bahawe ijambo， basigaye barakora nk'ibyo abahungu bakora， biba bimeze neza， iyo uri kubona n'abakobwa nabo bari gukina， ukabona ni ibintu byiza cyane， kandi bishimishije.

Umukino wa tenisi uba mwiza cyane kubera ko abantu baragukunda kandi iyo umuntu ari kuwukina ubona bisa neza n'abanawureba baba bishimye cyane, abagiye kuwureba bararuhuka, kandi mbere abakobwa ntabwo bakinaga ariko ubu nabo basigaye barakina babigize nk'akazi kandi birabahemba neza.

Siporo ya rusange iba nziza cyane, kubera ko abantu benshi bakunda kuyijyamo, kubera ko haba harimo ibintu byiza, n'umuntu uba ufite ubunebwe imutera kurage, kandi siporo iba nziza mu mubiri, ituma umuntu adasaza, rero biba byiza kujya muri siporo.

Siporo iba nziza cyane kubera ko biba ingenzi kubera ko siporo ishimisha abantu, kandi n'abantu bagira ubuzima buzira umuze, cyane cyane nk'izi ngizi zo gutwara imodoka z'amarushanwa. Abantu bazikora nk'akazi bakabona n'amafaranga, kandi n'abajya kubareba, bavayo bishimye.

Siporo rusange iba nziza cyane iyo abantu bayiteguye, bakagenda bakajya muri siporo, bakirukanka biba ingenzi ,kubera ko nk'abantu baba badafite umwanya wo kujyayo, bibatera kuraje bakajya gukora siporo, kubera ko siporo iba nziza mu mubiri w'umuntu.

Siporo iba nziza, kandi iba ingenzi mu buzima bwa buri munsi, bituma abantu babaho, bagira ubuzima buzira umuze, kandi nk'abantu bakina nk'imikino igiye itandukanye, babigize nk'akazi babona amafaranga, kandi nabantu bakunda kujya kubireba baba banezerewe.

Umukino wa tenisi, ni umukino mwiza kandi umeze neza ukundwa n'abantu bose bo mu ngeri zose, haba abakuru haba abato n'abakecuru n'abasaza, bose barawukunda kubera ko utuma bishima bumva bameze neza. Ni umukino uruhura mu mutwe, kandi ko umuntu yawugize nk'akazi abona amafaranga kubera ko urakunzwe pe.

Siporo ziba nziza cyane, cyane cyane nk'izi ngizi zo kwiruka, kubera ko abantu barazikunda, kandi abazikora na bo babyungukiramo akenshi usanga babikora nk'akazi, kandi n'abajya kuzireba bararuhuka bakishima biba bimeze neza kandi urebye mbere ntabwo abakobwa bajyagamo, ariko ubu na bo basigaye bemerewe kujya mu yindi mikino yose.

Imikino y' amamodoka iba myiza cyane, kobera ko abantu bayikina bose baba babyishimiye kandi demmiri yubumwebigezemo siporo kandi n'aban babirebagabonaga ababyishimiye caneone babikoraga nk'a kazi baga amafaranga menshi pe

Pisine iba nziza cyane abantu barayikunda kubera ko iyo unaniwe ajyayo akajya kwiyogera. Kandi iri muri imwe muri siporo n'iyo urikoga uba uri gukora siporo kandi unishimye uri no kuruhuka ngo uba uri kugabanya siteresi. Kandi ahaba pisine barahishura banyirayo nabo babona ku mafaranga aturutse kuri abo ngabo baba baje koga.

Umukino wa tenisi uba mwiza cyane, kuko n'umukino abakobwa bakunda kandi niyo bari gukina ubonaga bishimye cyane umunezero uba ubuzuye, mbere n'abahungu nibio bawukina gusa ariko n'ububu abakobwa nabo basigaye bemerewe ku wukina.

Umupira w'amaguru uba mwiza cyane. Abantu bose barawukunda, abantu bakunda kujya kureba uyu umupira, kandi ni muri bimwe bigize siporo, abantu bawukina bameze neza bafite ubuzima buzima, kandi baba babyishimiye. Niba babigize akazi bibahereza amafaranga, kandi n'abajya kuwureba baba bishimye cyane.

Sipori iba nziza cyane kubera ko ikundwa n'abantu benshi kandi ifasha mu buryo butandukanye, ifasha abantu kuruhuka ifasha abantu kwishima, kandi n'abandi bayikuramo amafaranga iyo bayigize akazi kabo. Rero abakobwa na bo bagiriwe icyizere, na bo baba bari mu mikino igiye bitandukanye mu gihe mbere babaga ari abahungu gusa.

Baro ziba nziza cyane kubera ko ari imwe mu bikoresho abantu bifashisha bari gukina umupira w'amaguru. Umupira nk'imikino igiye itandukanye rero iba ingenzi kuko ibafasha cyane, iyo bari gukina iyo mikino.

Umupira w'amahugu ni umukino ukundwa cyane. Umukino abantu bose bakunda kureba. Ni umukino abakobwa n'abahungu bose bakunda gukina, kandi iyo abantu bari kuwukina, ubona bimeze neza, kandi baba bari gukora na siporo, n'abari kubareba na bo babishimiye ubona ibintu byose biryoshye.

Umupira w'amaguru uba mwiza cyane, kubera ko uhuza abantu, hari n'igihe bajya gukina uri umukino wa gishuti, bagakora, bakinezeza, bakidagadura, kandi n'abantu bajya kubareba baba bishimiye ibyo barimo, rero kandi biba ari nka siporo bari gukora, kandi siporo iba nziza mu mibiri y'abantu.

Amarushanwa yo kwiruka aba meza kandi ni muri bimwe bigize siporo, iyo umuntu ari kwirukanka aba ari gukora siporo, umubiri ukamera neza kandi nkiyo ubikozemo nkakazi abantu babona amafaranga n'abantu babareba baba bishimye ukabona nta n'ikibazo bafite.

Amakurusi akaba meza cyane abantu barabikunda iyo amakurusi yabaye usanga abantu bagiye ku mihanda bagiye kureba bakabona ari ibintu bishimishije kandi nabyo biri mu bwoko bwa siporo rero kandi ni abana babikorag babigize nk'akazi bibahereza amafaranga, bonaga ari ibintu bimeze neza.

Izi siporo z'amagare zifasha abantu mu buryo bugiye butandukanye, hari igihe bakora amarushanwa ariko zifasha n'abazikora, mu buryo bwo kunanura kandi iyo ari amarushanwa babaha n'ibihembo, rero ziba nziza izi siporo z'amagare.

Umukino wa basikete, ni umukino ukundwa n'abantu benshi, ni umukino abantu bakina bakumva barishimye, ahanini umukino uba ukubiye muri siporo, kandi n'abakobwa basigaye bara wukina, banawugi nk'akazi, urabahemba ni mukino ushimishije kandi ukunzwe na benshi.

Siporo iba nziza cyane noneho iyo tugeze ku bakobwa, dore ko mbere batari bafite uburenganzira na bwo bwo gukina cyangwa ngo bisanzure, ariko biba byiza cyane.

Pisine iba nziza cyane, kandi irakunzwe pe, irakunzwe, abantu bakunda kujya koga, kubera ko koga ni mu bintu bifasha kandi nabyo ni bimwe muri siporo. Rero iyo umuntu ari kumva akeneye gukora siporo, kandi ashaka no kujya koga, ajya muri pisine, byose akabikorera icyarimwe, kandi biraruhura cyane.

Siporo iba nziza kubera ukuntu abantu bayijamo cyangwa se abantu bakina, bibafasha kuruhuka, bikabafasha kubaho bishimye, siporo ikora ibintu byinshi, izana umusaruro mwinshi cyane, ku bantu bakunda, bakunda siporo cyangwa abantu bayikora.

Siporo iba nziza kandi iba ingenzi ku bayikora. Abantu bakora siporo yo koga bayita amarushanwa ariko biba ari na siporo. Abantu barabikunda cyane n'ababikora babona akazi kandi babona amafaranga n'abajya kubireba bararuhuka bakishima.

Imikino iba myiza cyane kuberako ituma abantu bayikina bakoreramo na siporo, imibiri yabo igakomera ubuzima bwabo bukomeza kuba bwiza, kandi n'abantu bajya kubareba barishima kuberako biba bishimishije, usanga bajya no kubareba banishyuye.

Siporo iba nziza cyane kubera ko iba ingenzi, ituma imibiri yacu imera neza, cyane cyane nkiyingiyi yo kugendera ku magare iba ari nziza, kubera n'abantu bayigira nk'akazi kandi kabahereza amafaranga, kandi ubona bishimiye ibyo barimo, n'abari kubireba baba bishimye bizihiwe.

Imihanda iba myiza cyane kandi irafasha kuko irinda impanuka. Leta yatekereje neza kubaka ibintu bijyanye n'imihanda, kandi ubona hasa neza cyane, kandi ahantu hari imihanda rwose imodoka ziragenda, cyangwa ama moto, akaba nta n'impanuka zabaho.

Imihanda yo mu cyaro iba imeze nabi， n'iyo imvura yaguye usanga harimo ibyondo byinshi cyane， kubera ko aba ari uduhanda two mu mirima twawo， hagati na hagati biba bisa n'abi，kubera ukuntu haba hari ibyondo byinshi，umuntu yagenda agasanga biramwanduje.

Imihanda yo mu cyaro iba myiza cyane kubera ko ifasha abaho kuyigendamo. Uduhanda nk'utu ngutu dutoya tuba twiza kubera ko dutuma abantu badatinda kugera iyo bagiye, kubera ko tuba ari tugufiya, tukabagezayo hakiri kare kandi byihuse, bameze neza.

Imihanda iba myiza cyane kubera ko ituma abantu bagenda bameze neza, n'imodoka zikagenda neza, hakaba nta mpanuka yabaho, kubera ko, kubera ko ziba zose.

Imihanda iba miyiza cyane kubera ko mbere habagaho ibihanda by'ibitaka bikanduza abantu, ariko iyi mihanda zliba myiza cyane, kubera iterambere bituma imodoka zigenda neza, kandi n'abanyamaguru bakagenda neza bisanzuranyeho akaba nta n'impanuka zapfa kuba.